Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'isaha. Impande ye hakaba handitse amagambo agiye ari mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Iki ni icyapa kinini iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umweru, iki cyapa kandi gishushanyijeho amaguru y'abantu bagiye batandukanye.

Iki ni icyapa kiriho telefoni ziri mu mabara y'umweru n'umukara zigiye zitandukanye, hirya hakaba hari amagambo yanditseho, ari mu mabara y'umweru.

Uyu ni umugabo wambaye ikote ry'umukara, ufatanye n'umugore witeze igitambaro cy'umutuku, n'ikote ry'umukara n'igitenge, imbere yabo bakaba handitse amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Urupapuro rw'umweru ruriho ikirangantego kiri mu ibara ry'umutuku, umukara n'umuhondo, hasi hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Iki ni icyapa kinini cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umweru, ubururu ndetse n'umutuku, iki cyapa kiriho n'igishushanyo cy'imodoka ndetse n'inzu.

Uyu ni numugabo wambaye ikote n'ishati na karuvati uri gusuhuzanya n'umugore, impande yabo hakaba handitse amagambo atandukanye, agiye ari mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Iki ni icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo agiye ari mu mabara y'umukara, ubururu n'umweru, hirya hakaba hari igishushanyo cya terefone.

Uru niurupapuro rw'umweru rujya rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bitandukanye, bigiye biri mu mabara y'umukara ndetse n'icyatsi n'umutuku.

Uru ni urupapuro rw'umweru rugiye ruriho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye, aya magambo akaba yanditse mu mabara y'umukara, ubururu ndetse n'umweru.

Uru ni urupapuro rwanditseho amagambo ndetse n'imibare, byose bikaba bigiye biri mu mabara yiganjemo umweru, umukara ndetse n'ubururu.

Uru ni urupapuro ruri mu mabara y'icyatsi n'umweru, urupapuro rukaba rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umweru n'umukara.

Uru ni urupapuro rw'umukara ruriho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse rukaba rwanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Iki ni ikiganza cy'umuntu gifashe telefone mu ntoki. Iyi telefone ikaba yanditsemo amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi.

Uru ni urupapuro ruri mu mabara y'umukara n'umweru, uru rupapuro rukaba rugiye rwanditseho amagambo, ndetse n'imibare bigiye bitandukanye, bikaba biri mu mabara y'umweru n'umukara.

Iyi ni nzu y'ubucuruzi irimo umugore wicaye, imbere ye hakaba hari ameza iriho mudasobwa. Iyi nzu ikaba irimo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imyenda.

Aka ni akabati, aka kabati kakaba gasa umweru, aka kabati kakaba kagiye karimo imitako igiye itandukanye ndetse n'uducupa duto dutoya dutandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite umuryango usumweru, iyi nzu y'ubucuruzi ikaba iriho imyenda igiye itandukanye yiganjemo amapantalo n'amajipo bigiye biri mu mabara atandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite inkuta z'umweru, iyi nzu ikaba irimo ibicuruzwa byiganjemo imyenda yo kwambara igihe itandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo akabati, aka kabati kakaba kamanitsemo imyenda igiye itandukanye ndetse hejuru hakaba hari n'amasakoshi.

Iyi ni imodoka, iyi modoka ikaba iri mu ibara ry'umukara, iyi modoka kandi imiryango yayo ikaba ikinguye aho mo imbere ifite intebe zisa n'iz'umukara.

Iyi ni imodoka iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, iyi modoka kandi ku kirahure ikaba iriho icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo n'umweru.

Aba ni abagabo bahagaze, mu kiganza cyabo bakaba bafite icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, inyuma yabo hakaba hari imodoka y'umukara ihahagaze.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro, ugararanye n'undi mugabo wambaye ikote. Imbere yabo hakaba hari imodoka y'umukara ihagaze.

aba ni abantu bane batandukanye, bakaba bafite imbere yabo y'icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'umutuku, inyuma yabo hakaba hari imodoka ihahagaze.

Iki ni icyumba kirimo ibyuma bigiye bitandukanye ndetse kimwe mu byuma kikaba giteruye imodoka iri mu ibara ry'umutuku n'umukara, hirya hakaba hari indi modoka iri hasi y'ibara ry'umweru n'umukara.

Izi ni imodoka nini zitwara abagenzi ziri mu mabara y'umweru n'umukara, zikaba zihagaze mu mbuga nini, inyuma yazo hakaba hari ibiti birebire bitandukanye.

Iyi ni imodoka iri mu ibara ry'umweru, iyi modoka inyuma yayo hakaba hari kontineri nini y'umutuku ndetse hakaba hari inyubako ndende cyane iri mu mabara y'umweru n'umukara.

Iyi ni inzu iriho ibirahure, mo imbere hakaba hagiye harimo imodoka nyinshi zitandukanye, kuri iyo nzu kandi hakaba hariho ibyapa byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Aba ni abagabo bahagararanye bambaye amashati ndetse n'ipantaro, bakaba bafite icyapa mu ntoki cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umukara n'umutuku, inyuma yabo hakaba hari imodoka ihahagaze y'umukara.

Iyi n'inoti y'amafaranga iri mu mabara y'ubururu n'umweru iyi noti ikaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ndetse akaba ishushanyijeho ibishushanyo by'inka.

Iki ni igiceri kiri ku meza, iki giceri kikaba cyanditse amagambo ndetse kikaba kiriho umubare wa gatanu ndetse kikaba kiriho n'ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda.

Uyu ni umuntu w'umugore wambaye ishati y'icyatsi uri kubara amafaranga mu ntoki ze, hirya hakaba hari igikoresho cy'ikoranabuhanga kirimo kirasohora urupapuro.

Iki ni igiceri kigiye kiri mu ibara ry'izahabu. Iki giceri cyanditseho amagambo atandukanye ndetse n'imibare itandukanye kandi kikaba kiriho n'igishushanyo.

Iki ni ikiganza cy'umuntu gifashe amafaranga menshi agiye atandukanye, hirya akaba ari akamashini kifashishwa mu kubara amafaranga.

Iki ni icyumba kirimo amafaranga menshi cyane atondekanyije ndetse iki cyumba kikaba kirimo n'intebe isa ubururu.

Iki ni igiceri cyanditseho amagambo agiye atandukanye n'imibare igiye itandukanye, iki giceri kandi kikaba gishushanyijeho n'igishushanyo.

Iki ni ikiganza cyangwa se n'ibiganza by'umuntu bifite inote nyinshi z'amafaranga, izi note zikaba zishushanyijeho isura y'umuntu.

Iki ni ikiganza cy'umugore iki kiganza kikaba gifite inoti nyinshi z'amafaranga zigiye zitandukanye, ziri mu mabara atandukanye.

Iki ni icyumba kirimo amarangi y'ubururu n'umweru, kikaba kandi kirimo akabati gakozwe mu rubaho karimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'uducupa tw'amazi.

Iki ni icyumba cy'ubucuruzi kigiye kirimo icyuma babikamo amata ndetse hirya hakaba ari akabati kariho amajerekani y'umweru ndetse n'uducupa tw'amazi.

Aya ni ameza y'umweru agiye ateretseho ibikoresho bigiye bitandukanye bya pulasitike. Aha twanavuga ko harimo n'amagi atatu.

Iki ni icyumba gifite inkuta z'amatafari ahiye, iki cyumba kikaba kirimo amajerekani asa umweru ndetse kirimo uducupa tw'amazi ndetse harimo intebe zisa umweru n'ameza asa umweru.

Iki n'icyumba kirimo ibintu bigiye bitandukanye, aha twavuga nk'amajerekani asa umweru ndetse hakaba harimo n'icyuma kinini cyane cyo kubikamo amata.

Iyi ni inzu, ifite umuryango, usa umweru ndetse ikaba ifite n'inkuta zisa ubururu, ku muryango hakaba hateretse ameza asa umweruru agiye ariho indobo zitandukanye n'imineke.

Uru ni urupapuro rutukura, uru rupapuro rukaba rugiye rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye, ibi byose bikaba byanditse mu ibara ry'umweru.

Ku ifoto yacu turahabona ibiganza bibiri kimwe gifashe muri murandasi ikindi gicigatiye amafaranga y'amanyamahanga ndetse n'amanyamerika yifashishwa mu kugura icyo wifuza icyo aricyo cyose gihwanye n'ayo mafaranga.

Uru n'urupapuro rwenda gusa icyatsi rwanditseho amagambo ari mu mabara y'umukara, ndetse hakaba hari n'igishushanyo cya telefone kiriho amagambo nayo ari mu ibara ry'umukara.

Uyu ni umwana wambaye umupira w'umweru, ufite igikinisho cy'inyamaswa mu ntoki ze, impande ye, hakaba hari amagambo ari mu mabara y'umukara ndetse n'umutuku.

Uru ni urupapuro rwenda gusa umukara. Uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo agiye atandukanye aya magambo akaba ari mu ibara ry'umweru.

Uru ni urupapuro rw'umukara n'umweru, uru rupapuro rukaba rugiye rwanditseho amagambo agiye ari mu mabara y'ubururu, umukara n'umweru.

Uyu ni umukobwa wambaye umupira usa umuhondo. Mu kiganza cye akaba afitemo inoti z'amafaranga, yiganje mu mabara y'umutuku ndetse

Uru ni urupapuro rw'umweru, uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo ari mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu.

Uru ni urupapuro rw'umweru, uru rupapuro rukaba rugiye rwanditseho amagambo atandukanye ari mu mabara yiganjemo umukara ndetse n'ubururu.

Ibi ni ibiganza by'umuntu ufashe telefoni mu ntoki ze, iyi telefoni ikaba irimo amagambo agiye atandukanye yiganje ari mu ibara ry'umukara.

Uru ni urupapuro rw'inyemezabwishyu rwanditseho amagambo ndetse n'imibare biri mu ibara ry'umukara, hejuru ku rupapuro hakaba hariho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Uru ni urupapuro rw'inyemezabwishyu rwanditseho amagambo n'imibare bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umukara, hirya ku rupapuro hakaba hariho n'ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda.

Uru nirupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo agiye atandukanye ndetse n'imibare bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umukara uru rupapuro kandi ruriho umukono wumuntu uwo mukono uri mu ibara ry'ubururu.

Uru ni urupapuro rwanditseho amagambo agiye atandukanye, aya magambo akaba agiye ari mu mabara y'umukara ndetse andi akaba ari mu ibara ry'umutuku.

Uru ni urupapuro rw'inyemezabwishyu ruriho amagambo atandukanye n'imibare igiye itandukanye biri mu mabara y'umukara. Hejuru hakaba hariho n'ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Iki ni ikiganza cy'umuntu kiri kubara amafaranga agiye atandukanye. Aya mafaranga akaba agiye ari mu mabara y'umweru, umukara ndetse n'umuhondo.

Iki ni icyapa cy'ubururu, iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye biri mu mabara y'umweru, umukara ndetse n'umutuku. Iki cyapa kiriho n'amabendera y'ibihugu.

Iki ni ikiganza kiri kubara amafaranga. Aya mafaranga kiri kubara akaba ari mu mu mabara y'umukara n'umweru. Hirya akaba hari andi mafaranga menshi na yo ari mu mabara y'umutuku n'umweru.

Iki ni ikiganza cy'umuntu gifashe inoti nyinshi z'amafaranga. Izi noti zikaba ziri igishushanyo cy'umugabo ndetse zikaba zanditseho amagambo agiye ari mu mabara y'umukara.

Iki ni icyapa cyanditseho amagambo atandukanye ndetse n'imibare bitandukanye, ibi byose bikaba biri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, uru rupapuro ruriho n'amabendera y'ibihugu.

Iki ni ikiganza cy'umuntu gifashe inoti nyinshi z'amafaranga aya mafaranga akaba ari mu mabara y'umukara n'umweru ndetse akaba ashushanyijeho n'umugabo.

Iki ni icyapa cyanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye, bikaba byanditse mu mabara arimo umukara ndetse n'umuhondo.

Iki ni ikiganza cy'umuntu, iki kiganza kikaba gifite inoti nyinshi z'amafaranga, aya mafaranga akabagiye mu mabara y'umweru n'umukara.

Iyi ni inzu ifite inkuta z'ubururu, iyi nzu ikaba iriho iki cyapa cyanditseho amagambo agiye ari mu mabara atandukanye y'ubururu, umutuku ndetse n'umukara.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, ifite umuryango usa icyatsi, iyi inzu ikaba y'icyapa cy'isa mu ibara ry'umweru n'icyatsi cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, umuhondo n'icyatsi.

Iyi ni inzu ndende cyane ifite inkuta z'umweru, iyi nzu ikaba iriho icyapa cy'umweru, iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo agiye ari mu mabara y'umutuku n'umukara.

Uyu ni umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba yicaye ku ntebe y'igiti, hirya ye hakaba hari icyapa, cyanditseho amagambo agiye atandukanye, yo mu mabara y'umweru, umukara n'ubururu.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite imiryango isa umweruru kandi uyu muryango ukaba uriho ibyapa bigiye bitandukanye byanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, umweru n'umutuku.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi iriho icyapa kinini cyane, iki cyapa kikaba kigiye cyanditseho amagambo atandukanye ari mu mabara y'umweru, umutuku n'umukara.

Uyu n'umugore uhetse igikapu cy'umukara ndetse akaba yambaye n'ishati y'umuhondo, impande ye hakaba ari icyapa cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umweru, umuhondo n'icyatsi.

Iki ni icyapa cyanditseho amagambo ari mu mabara agiye atandukanye. Aya magambo akaba ari mu mabara y'ubururu ndetse n'umutuku hakaba hari n'imibare iri mu mabara y'umutuku n'umukara.

Aka ni akazu gatoya, aka kazu gatoya kakaba kariho ibyapa byinshi bigiye bitandukanye, biri mabara y'umukara, umutuku, ubururu n'umuhondo.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo agiye ari mu mabara y'umutuku, umukara n'umuhondo.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite umuryango usa umweru, iyi nzu ikaba iriho ibyapa byinshi bitandukanye biri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku n'umukara.

Iki ni igishushanyo gikozwe mu rubaho kikaba giteretse ku meza, hirya hakaba hari inzu ifite igisenge cy'umukara ndetse isize irangi ry'umweru.

Iki ni icyumba gifite inkuta zisa umweru n'umukara, iki cyumba kandi kirimo intebe ndende cyane ziri mu ibara ry'umutuku.

Izi ni intebe zikozwe mu rubaho ndetse zikaba zifite n'ameza ariho ikirahure ndetse nayo akozwe mu rubaho, hasi hakaba aho ziteretse hasa umweru.

Izi ni intebe zikozwe mu mbaho ndetse n'ameza yazo akozwe mu mbahoho, hirya hakaba ari umuhanda w'ibinyabiziga uri kunyuramo imodoka ndetse na moto.

Iki n'icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, byiganjemo intebe zisa icyatsi ndetse hakaba harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa.

Izi ni intebe zikozwe mu mbaho, izi ntebe zikaba zifite n'amezaza yazo nayo akozwe mu mbaho, inyuma hakaba hari utubati twinshi natwo dukozwe mu mbahoho.

Iyi ni inzu ndende ikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, ibi biti bikaba biteye mu busitani butoshye.

Iyi ni inzu ndende ifite inkuta z'umweru amadirishya y'umukara n'inzugi z'umukara iyi nzu ikaba ifite hejuru hariho intebe zitandukanye ndetse hakaba hari n'ubusitani.

N'umugore wambaye ingofero y'umweru n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, akaba ari kugenda mu cyumba kigiye kirimo intebe ndetse n'ameza bigiye bitandukanye.

Iyi ni inzu ndende cyane, iyi nzu ikaba imbere yayo hari ahantu hanini cyane harimo amazi hagenewe koga, kandi hakaba hari n'intebe zigenda zitandukanye ndetse ziriho n'imitaka.

Izi ni intebe z'umukara ndetse n'ameza y'umukara, ndetse n'imitaka isa umutuku, ibi byose bikaba biri mu busitani, ndetse hirya hakaba ari ahantu hanini harimo amazi ho kogera.

Izi ni intebe z'imikara zifite imitaka isa ubururu, imbere ya zino ntebe hakaba hari ahantu hanini harimo amazi yo kogerwamo.

Iki ni icyumba kirimo amatara agiye atandukanye ndetse kikaba kirimo n'intebe zisa umuhondo, imbere hakaba hari ameza asa umweru agiye ateretseho ibintu bitandukanye.

Ubu ni ubusitani bugiye burimo ibiti bitandukanye kandi ubu ubusitani bukaba burimo intebe zikozwe mu mbaho n'imeza nini y'umweru igiye iriho ibirahuri n'amasahani.

Iyi ni inzu ndende, iyi nzu ikaba iriho amatara menshi cyane agiye atandukanye. Iyi nzu kandi ifite inzugi zisa umweru. Imbere y'iyi nzu hari ahantu hanini cyane harimo amazi yo kogeramo.

Iyi ni inzu, imbere y'iyi nzu hakaba hari ubusitani burimo ibiti bigiye bitandukanye ndetse hakaba hatewemo n'intebe ziri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'imitaka isa umuhondo.

Iki ni icyumba kirimo umuntu wicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari amezi asa umweru, iki cyumba kandi kirimo n'izindi ntebe ziganjemo izisa umutuku.

Iyi ni inyubako ndende, iyi nyubako ikaba hasi hahagaze imodoka imwe isa umukara, indi isa umutuku, kandi iyi nyubako ikaba riho ibyapa byinshi bitandukanye.

Iyi ni inyubako ndende iriho ibirahure byinshi bigiye bitandukanye, iyi nyubako kandi ikaba iteyeho ibiti hejuru no hasi bitandukanye, ndetse ikaba yanditseho n'amagambo ari mu ibara ry'icyatsi.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'umutuku n'umweru, iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse hakaba ari n'igishushanyo kiri mu ibara ry'umutuku n'umuhondo n'umukara.

Iki ni icyumba kirimo intebe zisa umukara ndetse kikaba kirimo n'imitako iri mu mabara y'umukara n'umweru, iki cyumba kandi kirimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga na mudasobwa.

Iyi ni inyubako ifite umuryango usa umukara, uyu muryango ukaba wanditseho amagambo atandukanye ari mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, hejuru ku nzu hari icyapa kirimo umweru.

Iki ni icyumba kirimo intebe zigiye zitandukanye ziri mu ibara ry'umweru, hakaba harimo n'abantu bari gukoresha ibyuma by'ikoranabuhanga nka mudasobwa.

Uyu n'umugore ndetse akaba yicaranye n'undi mugabo, bakaba bicaye ku ntebe zisa umweru, imbere yabo hakaba hariho ameza ariho mudasobwa bari gukoresha.

Aba ni abagore babiri bambaye umwe yambaye umupira undi yambaye ishati y'ubururu, impande yabo no hasi hakaba hagiye handitse amagambo ari mu mabara y'umweru, icyatsi, umuhondo n'ubururu.

Uyu ni umugabo wambaye ishati y'ubururu. Impande ye hakaba handitse amagambo agiye ari mu mabara y'umukara ndetse n'umweru.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite imiryango isa ubururu. Iyi nzu ikaba igiye iriho ibyapa bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umweru, ubururu n'umutuku.

Iki ni icyapa cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, iki icyapa kandi gishushanyijeho n'inzu ndetse n'imodoka.

Aba ni abagore babiri, umwe uteze igitambaro undi ntacyo ateze, bakaba bafite mu ntoki zabo icyapa kiri mu mabara y'ubururu n'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Uru ni urupapuro rw'umweru rugiye rwanditseho amagambo agiye atandukanye, bigiye biri mu mabara y'umukara ndetse andi magambo akaba ari mu ibara ry'umweru n'icyatsi.

Aba ni abagore bamwe bicaye abandi bahagaze, imbere yabo hakaba hari amabase agiye arimo imineke ndetse indi ikaba irimo avoka.

Aba ni abantu batandukanye bicaye hanze y'inzu ifitiye umuryango usa ubururu, aba bantu imbere yabo hakaba hari ibitebo birimo ibicuruzwa bitandukanye.

Iri ni isoko ririmo abaguzi ndetse n'abacuruzi, iri soko kandi ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aha twavuga nk'imyenda ndetse n'ibikapu.

Iyi ni inzu ndende cyane iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, iyi nzu ikaba y'amadirishya z'umweru ndetse ikaba iriho n'ibirahure byinshi, hejuru hakaba handitseho amagambo agiye ari mu ibara ry'umutuku.

Iyi ni inzu isize ibara ry'umutuku, ikaba iyi nzu iriho ibyapa byinshi bigiye bitandukanye, biri mu mabara y'icyatsi n'ubururu, ibi ibyapa byanditseho amagambo ari mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi n'ubururu.

Iyi ni inzu ndende cyane, iyi nzu ikaba ifite hasi hayo amakaro asa umukara n'umweru, iyi nzu kandi igiye irimo ibyapa byinshi by'ubucuruzi.

Aba ni abantu batandukanye biganjemo abaguzi ndetse n'abacuruzi, abacuruzi bakaba bari gucuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, nk'inyanya, ibitunguru, amashu n'ibindi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bari mu isoko, iri soko rikaba ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byiganjemo ibyo kurya, nk'ibijumba n'imyumbati.

Utu ni utubaho tugiye dutandukanye, utu tubaho tukaba turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo amafu ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye.

Aba nabantu batandukanye biganjemo abambaye imipira y'umweru n'umuhondo ndetse n'undi umwe wambaye ishati, bakaba bari mu ihema ry'umuhondo, iri hema ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Aba ni abagabo babiri, bambaye udupfukamunwa tw'umuhondo, bahagaze bari gukoresha telefoni zabo mu kwishyura abamotari babiri bicaye kuri moto, nabo bambaye udupfukamunwa tw'umuhondo.

Aka ni akazu k'ubucuruzi gasa umuhondo, kakaba karimo abadamu batandukanye, aka kazu kakaba kanditseho amagambo agiye ari mu mabara y'ubururu, umukara n'umweru.

Aba ni abantu bari imbere y'ameza bambaye imipira y'umuhondo, imbere yabo hakaba hari abandi bantu bari kuganira, hakaba hari n'ameza mo hagati y'umukara ariho mudasobwa ndetse n'ibitabo.

Iyi ni inzu ntoya iri mu ibara ry'umuhondo. Iyi nzu ikaba yanditseho amagambo ndetse iriho n'ibishushanyo bigiye bitandukanye, biri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru n'umutuku.

Uru ni urupapuro ruri mu mabara y'umuhondo uru rupapuro rukaba rugiye rwanditseho amagambo agiye atandukanye ndetse n'imibare igiye itandukanye biri mu mumabara y'umukara ndetse n'ubururu.

Uyu ni umukobwa wambaye ishati y'ubururu, imbere ye akaba ari gukoresha telefone, telefone ikaba irimo ibishushanyo ndetse ikaba yanditsemo n'amagambo agiye ari mu ibara ry'umweru.

Uru ni urupapuro rw'umutuku ruriho ibishushanyo cyangwa se amafoto y'abantu bagiye batandukanye ndetse hakaba handitseho n'amagambo agiye ari mu mabara y'umuhondo ndetse n'umutuku.

Uru ni urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo kandi ruriha n'ibishushanyo bitandukanye, amagambo akaba ari mu mabara y'umukara, ubururu n'umweru, hakaba yashushanyijeho mudasobwa na telefoni.

Uru ni urupapuro rw'umweru, rwanditseho amagambo agiye atandukanye agiye ari mu mabara y'umukara, ubururu ndetse hakaba hariho n'ibishushanyo bitandukanye.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bambaye ingofero z'umweru ndetse n'imyenda isa umukara, imbere yabo hakaba hagiye hari ibitoki byinshi.

Uru ni urupapuro rugiye rwanditseho amagambo agira atandukanye ari mu mabara y'umukara, ubururu, umutuku ndetse n'ibindi byinshi.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero y'ubururu, ijire y'umutuku, akaba ari gusa undi mugabo wambaye ishati n'ipantaro n'agapfukamunwa, ikarito isa ubururu.

Iki ni icyapa gishushanyijeho abakobwa batatu, iki cyapa kandi kigiye cyanditseho amagambo atandukanye ari mu mabara y'umukara ndetse n'umutuku.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero y'icyats, ishati y'icyatsi, akaba ahagaze impande ya moto, inyuma ye hakaba ari ibyapa byinshi ndetse hakaba hari n'umuhanda w'ibinyabiziga.

Iki ni icyapa cy'umweru, iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo agiye ari mu mabara y'ubururu, umukara ndetse n'umutuku.

Iki ni icyapa gishushanyijeho igishushanyo cy'isaha ndetse hakaba handitsweho n'amagambo agiye ari mu mabara y'umweru, umuhondo ndetse n'umutuku.

Iki ni icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, aha twavuga nk'utubati dusa umweruru, imashini yo gufura isa umweru, amatara hejuru ndetse hasa hakaba hari amakaro asa umweru.

Iki ni icyumba gifite amatara acanye, iki cyumba kikaba kirimo intebe z'umukara ndetse n'ameza y'umukara agiye ariho amasahani.

Iyi ni inzu ndende cyane iriho ibirahure byinshi cyane by'ubururu .Hasi kuri yo nzu hakaba hari icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Iyi ni inzu ifite igisenge cy'umutuku ndetse ikaba isize ibara ry'umweru, hanze y'iyi nzu hakaba hari ubusitani bugiye burimo ibiti bigiye bitandukanye.

Uyu ni umuhanda w'igitaka, uyu muhanda ukaba wegeranye n'inzu zigiye zitandukanye ziri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, ifite umuryango usa umweru ndetse hasi hakaba hari amakaro asa umweru, iyi nzu ikaba igiye irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bari kwinjira mu muryango asa umukara hejuru hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku.

Aba ni abantu babiri bicaye ku ntebe z'umukara, bambaye imyenda iriho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho mudasobwa.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye ndetse n'abantu bagiye batandukanye baje kugura ibi bicuruzwa, ibi bicuruzwa bikaba biri mu mabara agiye atandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi igiye ifite imiryango y'umukara, iyi nzu ikaba igiye iriho ibyapa bigiye bitandukanye, hasi yayo hakaba hari amakaro asa umweruru.

Uyu ni umukobwa wambaye umupira w'umweru ndetse n'ijipo y'umukara cyangwa ipantaro y'umukara akaba ari mu iduka ryiganjemo ibicuruzwa bitandukanye n'ibitunguru n'ibindi.

Uyu ni umukobwa wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'umukara uri munzu nini y'ubucuruzi irimo ibikoresho bigiye bitandukanye nka mudasobwa, utubati tw'umweru n'ibindi.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo abaguzi n'abacuruzi batandukanye, hakaba harimo ibicuruzwa bitandukanye, byiganjemo imyenda ndetse n'ibikapu.

Uyu ni umukobwa wambaye isengeri iri mu mabara y'umutuku n'umukara n'ipantaro, akaba ari mu nzu y'ibicuruzwa, irimo utubati tugiye turimo ibicuruzwa bitandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi igiye irimo abaguzi bagiye batandukanye abenshi muri bo bakaba bambaye udupfukamunwa bakaba bari kugenda bagura ibicuruzwa bitandukanye.

Iki ni icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye baje kureba ibicuruzwa birimo ibicuruzwa birimo, ibicuruzwa bikaba byiganjemo inkweto ndetse n'ibikapu bigiye bitandukanye.

Aba ni abagabo babiri bambaye amakoti, inyuma yabo hakaba hari abagore bambaye imyenda y'ubururu, imbere yabo hari ameza agiye ariho mudasobwa.

Uyu ni umuntu wambaye ingofero y'umuhondo indorerwamo z'amaso, akaba yambaye n'umwenda w'ubururu, mu ntoki ze akaba afitemo inyundo iri mu mabara y'umukara n'umuhondo.

Iki ni ikiganza gifite ikarita mu ntoki y'ubwisungane. Iyi karita ikaba igiye yanditseho amagambo atandukanye ari mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umweru, akaba afite mu ntoki ze indangururamajwi y'umukara, inyuma ye hakaba hari icyapa cy'umweru, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Uru ni urupapuro rwanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu mabara y'umweru ndetse andi akaba yanditse mu ibara ry'ubururu.

Icyapa cyerekana serivisi zitangwa n'ikigo cyitwa buritamu. Turimo turabonamo ko buritamu ari ubwishingizi bwo kwivuza buhendutse, bwagenewe ibigo bitandukanye harimo ibigo bito, ibigo by'imari, sako n'amakoperative, ibigo bya leta, ibigo by'amashuri, ibigo by'abihayeyimana ndetse n'ubundi buryo butandukanye. Ushobora kuba udafite ubwishingizi, ushobora kwibaza uburyo wakwivuza ariko buritamo ni igisubizo cyawe, kugira ngo ube wakwivuza kandi nawe ku giti cyawe wabigeraho.

Iyi ni inzu ifite igisenge gisa ubururu, iyi nzu ikaba isize nayo ibara ry'ubururu ndetse ikaba iriho ibyapa bigiye biri mu mabara y'umweru n'umukara n'ubururu.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, harimo abafite urupapuro runini rusa ubururu, rwanditseho amagambo agiye ari mu mabara y'umweru.

Urabona ni abantu bahagaze mu biganza byabo bafashe igipapuro, inyuma yabo hakaba hari abandi nabo bicaye ku ntebe z'umweru mu ihema ririho amabara y'icyatsi, ubururu ndetse n'umweru.

Iyi ni nzu y'ubucuruzi igiye irimo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, biri mu mabara y'umweru, umukara, umutuku n'umuhondo.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, irimo umugabo uteruye icyuma wambaye umupira w'umukara, iyi nzu ikaba irimo n'abandi bantu ndetse n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Iki ni icyumba cy'ubucuruzi cyangwa se inzu y'ubucuruzi ifite amakaro hasi asa umweru, iyi nzu irimo utubati tureture cyane turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Uyu n'umukobwa wambaye umupira w'icyatsi wanditse amagambo y'umweru n'ipantaro y'ubururu, imbere hakaba hari akabati kagiye karimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye.

Aba ni abantu batandukanye bari imbere y'ameza ameza akozwe mu rubaho ateretseho ibicuruzwa bitandukanye ndetse na mudasobwa.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite hejuru hasa umweru ndetse no hasi hasa umukara, iyi nzu ikaba irimo akabati karekare kagiye karimo ibicuruzwa by'amoko atandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, urimo imodoka zitandukanye, uyu muhanda ukaba uteyeho n'ubusitani butandukanye, ndetse ukaba uriho n'inzira y'abanyamaguru ku ruhande.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro, akaba yegeranye n'undi mugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro, bakaba bari mu nzu y'ubucuruzi igiye irimo ibicuruzwa bitandukanye.